Mu Rwanda, mu Rwanda habaho ibikorwa byitabirwa n'inteko y'abaturage, aho babasha kwiga ku bibazo biri mu baturage no mu miryango aribyo leta ifasha abantu gukemura ibibazo biri mu ngo zabo.

Ikoraniro ry'abagabo n'abagore bari mu nama irimo porogaramu yo kwiga ku bikorwa bigiye bitandukanye, harimo abagabo biteretse imbere uducupa tw'amazi akozwa n'uruganda rw'Inyange.

Inama iri kuba irimo abagore bafite imisatsi myinshi n'abagabo batandukanye. Umugabo umwe ubahagaze imbere arimo abasobanurira ibiri kuba, ibyo bari gutangaza muri iyo nama.

Ni inama igizwe n'abagabo batandukanye bari mu nzu mberabyombi biteretse imbere amacupa y'amazi akorwa mu ruganda rw'inyange bakoresheje ikoranabuhanga ku rukuta bamurika berekana ibyo bavuga n'ibyo bakora.

Ni mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cyu Rwanda harimo abagore n'abagabo batandukanye mu byiciro bakoreramo imbere yabo biteretseho uducupa tw'amazi akorwamo mu ruganda rw'inyange na mudasobwa iruhande rwabo.

Ni inyubako iri ahantu ku muhanda, ikorerwamo ibikorwa byo gufasha abantu mu kwifotoza amafoto y'ibice cyangwa se basaba uruhushya rwo kujya mu bihugu by'amahanga muri Amerika n'Iburaya.

Ni uburyo mu Rwanda bashyizeho bwo gufasha no kumenya imyubakire y'igihugu, aho igeze mu buryo bw'iterambere bateza imbere abaturage n'imyubakire igezweho.

Amafaranga bayakohereje cyangwa se wowe wakira amafaranga uyohereza ,ukanabitsa mu buryo bwo gufasha abantu bagiye bari kure mu buryo bw'ubushobozi kandi bwihuse cyane.

Itangazo ryerekana iminsi y'ibiruhuko mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga abakozi benshi bakora muri iyo mirimo y'igihugu bahabwa umunsi wo kuruhuka bose muri rusange.

Irembo, ni gahunda ya leta, yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gufasha abantu mu kubasha kwishyura imisoro batavuye aho bari ngo bagire ngo bajye ku ishami rikuru, bikabafasha koroshya mu kwishyura imisoro.

Inyubako zikunda gukoreshwa n'abantu bafasha leta mu buryo bwo kwishyura imisoro y'igihugu byoroshye kwishyurira ubutaka n'amazu batuyemo n'ibindi byinshi cyane.

Ni ikirango kiranga ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gufasha igihugu mu kwishyuza imisoro kandi abantu banyura kuri urwo rubuga bagiye kwishyuraho imisoro, byihuse kandi bikanabafasha mu buryo bworoshye.

Ni urugomero rw'amashanyarazi rugizwe n'insinga ndende n'abakozi, bawo bari ku ruhande bashinzwe kubyitaho, ku buryo bufasha abaturage kubona amashanyarazi bitabagoye.

Ni iminara miremire cyane ikozwe mu byuma, aho bakunda kuyifashisha bashyiraho insinga z'amashanyarazi, bayavana mu gace runaka bayajyana mu kandi gace.

Uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, atukura, hasi hari icyapa kiranga amerekezo, imibare iranga uruzitiro, insinga z'amashanyarazi zinyura mo hejuru.

Mu Rwanda haje igikorwa cyo gufasha abaturage bagiye batandukanye mu bice bitandukanye, mu rwego rwo kubaha amashanyarazi akabageraho mu ngo zabo byoroshye kandi byihuse bikabafasha mu iterambere.

Burimo indabo z'umuhondo, ubwatsi busa icyatsi, harimo amatafari matoya ya mpunyu, hagati harimo umukindo n'ibinyabiziga biri hirya biparitsemo by'umweru n'amapine y'umukara.

Abagabo bakunze kwambara amakanzu maremare bamwe aba arimo amabara y'umukara n'umweru andi ari umutuku n'umweru n'ubururu bukeya, bafasha leta mu guca imanza no gucira iteka abantu bakora urugomo cyangwa bakora ibitemewe n'amategeko.

Ni umugore wambaye imyambaro itukura mu mpande hagati hari umukara, hagati nanone harimo umweru w'imisatsi myinshi, wambaye amadarubindi ukorera igihugu, ufasha abantu gukemura ibibazo no gukemura amakimbirane murukiko.

Mu rwanda hajyaga haba ubukangurambaga bwo kwigisha abaturage b'u rwanda n'abaturarwanda n'abanyarwanda bose uburyo bwo kwirwanaho bazimya umuriro nta bufasha bundi buhambaye bakeneye.

Abaporisi ni abantu badufasha mu kuducungira umutekano, kugira ngo tugire amahoro turyame dutekanye. ZIGAMA CSS ni ikigo cy'imari gifasha gutanga inguzanyo.

Ni nyakubahwa w'igihugu cy'u Rwanda, yegeranye n'umufasha we madamu Jeannette Kagame, ari kumwe n'umushinjacyaha wambaye imyambaro itukura hariho n'ibendera ry'u Rwanda.

Abanyacyubahiro bagiye batandukanye, harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Polo Kagame uyoboye u Rwanda kuva muri bibiri na gatatu, ari kumwe n'abandi bamugaragiye bamufashije kuyobora bari bavuye mu nama.

Ikigo cy'igihugu gifasha mu kureberera igihe amatora arimo aba mu gihugu, bareba amajwi uko abaturage batoye n'ingano y'umubare w'abatoye bakabasha kwerekana amajwi y'umuyobozi.

Ni umuhanda urimo amabara y'umweru ku mirongo itambika, harimo ikinyabiziga gitukura hariho n'umuyobozi wacyo acyicayeho arimo agitwara mu muhanda ava ahantu hamwe ajya ahandi.

Ni umuhanda w'abanyamaguru, umuhanda ukoreshwa unyurwamo ibinyabiziga bivuye kurangura, hakaba harimo ikinyabiziga kinini kikorera ibicuruzwa, mu gihe bavuye kurangura babivana mu gace runaka babijyana mu kandi gace.

Imihanda myinshi y'i kigali igiye itandukanye ikunda guhuriramo n'ibinyabiziga bitwara imizigo iremereye n'imitoya bayikoreyeho ibijyane akenshi aba ari iby'ubucuruzi.

Amatara yaka y'ibinyabiziga bye birimo moto, imodoka n'ibinyabiziga binini bakunda kwita amakamyo n'ibyapa by'umuhanda.

Mu Rwanda, hagiye hari ibinyabiziga rusange bifasha abantu mu gukora ingendo zijyiye zitandukanye, uva mu ntara, ujya mujyi, uva mu bice bitandukanye biririmo uturere n'utugari , ujya mu mujyi rwagati,

Mu bikoreshwa hano mu Rwanda bitwara abanyarwanda n'abaturarwanda bibavana ahantu hamwe, bibajyana ahandi ku giciro gito kandi kinogeye buri umwe wese, harimo n'ahantu abanyamaguru bambukira.

Mu byapa by'amategeko y'umuhanda, iki ni icyapa cyerekana ko aho hantu hatemerewe guhagarara n'ibinyabiziga ngo bihagarare, hifashishwa n'abanyamaguru akenshi.

Ahantu henshi hari inyubako ziri ku mihanda zikorerwamo ibikorwa bitandukanye byo gucuruzamo imiti y'ubwivuzi n'imiti itera akanyabugabo.

Ni ibiti, ibyapa by'umuhanda kirimo ibara ritukura n'ibara ry'umweru, ibara ryanditsweho amagambo agizwe n'inyuguti eshanu yanditswe mu ibara ry'umutuku.

Icyapa cy'umuhanda kerekana ko ukomeje imbere harimo undi muhanda iburyo ushamikiyeho ukomeza utambika, hari n'undi ukomeza imbere ubwo bigakora imihanda itatu.

Ni icyapa cy'umuhanda gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda, cyanditsweho n'amabara atukura, hagati harimo ibara ryirabura n'irindi ry'umweru ryerurutse cyane.

Mu Rwanda hari ahantu henshi hahariwe umwanya wo kubakirwamo inganda, zikora ibikorwa bitandukanye mu rwego rwo kwirinda guhumanya ikirere cyose cy'igihugu kugira ngo kitangirika.

Umuhanda urimo abanyonzi batwaye imizigo, ikiraro kirekire kiriho umuhanda uca hejuru y'undi muhanda uca munsi, n'ibikamyo bitwara imizigo n'ibitaka n'imicanga.